Ni byiza kugira kandagira ukarabe iwawe biguha kugira isuku, bikakurinda kugira umwanda. Iyo uyikoresha ikurinda kurwara inzoka, kurwara indwara zituruka ku mwanda, twabashishikarije gukoresha kandagira ukarabe kuko ituma tugira isuku.